Ihene zimeze neza, zirishimye, ziri gutembera, hirya hari ibiti, hari imisozi myiza, hari igicu.

Amatungo y'ingurube ameze neza banyirayo bazayajyana ku isoko babonemo amafaranga yo gukoresha mu bintu bitandukanye.